Ndabona uyu ari umudamu wari ari ahantu asuka ibimeze nk'inzoga mu kirahuri kuko hantu hari bara, bacuruza ibijanye n'ibyo kunywa. Ndi kubona harimo ibyuma za nzoga za wisike zihenze, za nzoga zihenze, ndabona ari ahantu hajyanye n'ibyo kunywa

Iyi nyubako yacururizwagamo pese delashange. Ikongera igacururizwa k'uruhande n'umucuzi wa MTN.

Ndabona ari inyubako ndende y'ubucuruzi, hasi barahacururiza MTN, hakaba harimo n'izirimo fotokopiyeze na rakirete, n'umucuruzi wa MTN. Bari gukora ibijyanye no kwiteza imbere, bijyanye n'ubucuruzi.

Aha hari urugo rwiza hariho n'urutoki rwiza. Ibitoki ari inyamunyu, barabirya ,byababikashi bakabyengamo inzoga .Naho igitoki ni cyiza mu mubiri wacu.

Bacuruzagaho ibikapu, indobo n'ibindi byacuruzwagamo idani kugirango nawe yiteze imbere.

Inyubako irimo ibijyananye n'ubucuruzi, harimo n'aba ajenti b'amabanki atandukanye. Baba bacuza nabo, kugira babone uko bizamura, bagere mu iterambere.

Aha naho bacuruzaga bagirango ngo biteze imbere, bacuruzaga amatiyo, hariho n'umu ajenti wa I&M banki na majiri y'abatekinisiye.

Iyo n'inzu y'ubucuruzi yakenkayori, hakaba hariho n'umudamu ufashe indobo, inzu nini ya etaje bakaba bacururizamo hasi, ibijyanye n'ubucuruzi bwa kenkayori.

Iyi ni igorofa igeretse, hasi hari ubucuruzi hari n'abacuruzi b'abagenti, hakaba n'abacuruzi ba emutiyeni, hari na superi marishe, ubwo n'abacuruza kugirango ngo biteze imbere.

Hano ni aho bagurira ibikoresho bya muzika, ibijyanye nibicurangisho bifashisha mu makorari nk'ahabereye ibitaramo, nibyo bihacururizwa.

Ndabona ari inyubako iriho amabalo yo bacuruza, hariho n'ibishushanyo, za balo bakina bakina mu kibuga.

Iyi nikorari yari yagiye kuririmbira ahantu. Uko bigaragara nikora yambaye inifomu imwe yakorari.

Iyi banki ituma umuturage yiteza imbere, igatuma iterambere ryihuta, kubitsa no kubikuza, ikazakuguriza, ikaguteza imbere. Imishinga yose waba uba ugiye gukora.

Izi nisambusha z'inyama ziraryoha, uzinywesha n'icyayi ariko wapfa no kuziriraho ziraryoha cyane.

Ndi kubona iyi ari nyubako ya Goyiko Pulaza, kiriya cyapa kikaba ari icyapa kiyobora abagiye gukoresha ibijyanye na elegitoronike. Ndabona hariho umudamu, nawe ashobora kuba agiye gukoresha ibijyanye na elegitoronike.

Ubuseke ni bwiza buba buteye amabengeza abishyize hamwe babuboha biteje imbere hamwe n'imiryango yabo.

Ubucuruzi bw'inkweto butuma nyirabwo yiteza imbere. Akizahura akava mu bukene agatera imbere, akazamuka akaba yakora n'ibindi. Ubucuruzi ni bwiza.

Bonayari ni arimantasiyo yibijyanye n'ibinyobwa harimo n'urusenda rw'akariza za novida na za ji n'ibindi.

Aba na bo ni abacuruzi b'ibitunguru bacuruzagamo mu gasoko na bo bagira ngo biteze imbere, abacuzaga ari abadamu bari gucuruza ibitunguru.